Ndabona moto iparitse yonyine n'ikasike hejuru, ihagaze kuri kiyosiki ya MTN, Equity, Airtel, bigaragare nk'aho ari ahatangirwa bimwe muri ibyo navuze aho hejuru cyangwa iki kinyabiziga ari igitwara abagenzi.

Abantu benshi, bahagaze, imbere, ya, yaho, hari ibiko ry'amafaranga, baje kubikuza cyangwa kubitsa, kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Ni umuntu uhagaze waparitse moto ku ruhande wambaye agapfukamunwa, wambaye igikasike, inyuma ye hari ibirantego bya Airtel, uhagaze ku gipangu gisakajwe amategura n'inzu isakajwe amategura bigaragare nk'aho ari igihembo yahawe na Airtel mu kazi kose.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, ufashe ku igare wegamyeye ku nzu iriho ibyapa bya MTN, TECNO, Airtel, bisa nkaho ari serivisi yaba yaje kwaka ku cyicaro cy'ibyo navuze hejuru.

Ni inzu y'ubucuruzi bwa MTN, ubitsa, ubikura, ugura miyinite kugira ngo ubashe guhuza amakuru n'abandi bantu mu buryo bworoshye utavuye aho uri kandi byihuse.

Yicaye imbere y'igipangu kigifite ibara ry'umweru n'umukara, utwuma dushinzeho tw'ibara ry'iroza, yicaye munsi y'umutaka w'ibara rya MTN, bisa nkaho acuruza ama inite, cyangwa abitsa cyangwa bikururira abamugana.

Umugabo umwe wambaye ishati n'undi wambaye ikote, wambaye isaha ku kuboko k'ibumoso, barimo guhererekanya impamyabushobozi cyangwa impesha bubasha kugira ngo akomeze mu zindi nshingano nta gutegwa.

Ndabona abantu batandatu bahagaze imbere y'amazu maremare cyane, n'amaritiko ahagaze inyuma yabo, bahagaze hagati y'icyapa kibaranga, umwe umugabo w'iburyo afasheho, bagaragare nkaho barimo barishimira ibyo bagezeho.

Hari intebe, ameza, ameza ariho ibitambaro by'isuku, bisa nk'aho hakirirwa n'abantu bakeneye ibyo kunywa, kurya cyangwa habera inama cyangwa ibiganiro bitandukanye.

Ni iguriro ritoya, harimo ibinyobwa bisembuye, bidasembuye, ibiribwa, kugira ngo abahaturiye babashe guhahira hafi, kandi mu buryo bwizewe, nta matike basabwa.

Ndabona amagi menshi ari mu matureyi yayo ateretswe mu mayetajeri bigaraga nk'aho aha ari icururizwa ryayo kugira ngo abantu babashe kuyabonera hafi kandi mu buryo bwizewe.

Ni ahantutu harangwa n'ubunararibonye mu kuvura bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefoni, amaradiyomu n'amateleviziyo kugira ngo bikomeze kugira ubuzima bwiza no gukoreshwa mu buryo bwizewe.

Abantu benshi hari umugore wicaye imbere yabo afite telefoni mu ntoki bisa nkaho arimo arabahugura cyangwa kubigisha ku bijyanye n'ibiri muri iyi afite mu ntoki kugira ngo babashe kumenya no gusobanukirwa iby'ikoranabuhanga.

Umuhungu n'umukobwa bambaye nee mu ijosi, bambaye agapfukamunwa, amajiri, bigaraga ko bakora muri restaurant itanga icyo kunywa, icyo kurya mu gihe haje ababagana kandi babone n'ibyo bifuza.

Ni ahantu baruhukira mu gihe wasohokanye n'umufasha wawe n'umuryango wawe, mu gihe cyo kugira ngo uruhuke ibyo umaze iminsi ukora byabaye byinshi mu mutwe cyangwa kwiyakirarira kugira ngo ubuzima bukomeze kandi uruhutse mu mutwe.

Ni inzu ndangamurage yubatse hejuru y'amazi, bigaragare nkaho ari hoteli mu buryo bwa kizungu cyangwa ari ahantu baruhukira, hari ameza, hari intebe, bigaragare ko ari aho umuntu aza gufatira icyo kunywa n'icyo kurya muri rusange.

Ni isoko rinini ririmo ibiribwa by'amoko atandukanye imineke, watermelon, amagi, ibinyomoro n'ibindi byinshi, bisa nkaho ari iguriro ry'imbuto kugira ngo abantu babeho mu buzima buzira umuze.

Ni umugabo umwe, n'abagore babiri n'umwana, upfukamye. Bisa nkaho bagiye mu iguriro ry'inkweto, rusange, kugira ngo, babashe, guhaha mu buryo bwizewe kandi, baki bakwiriwe neza, kandi batware n'ibyo bashaka.

Ni inzu y'ubucuru, inzu y'ubucuruzi y'ubucuruzi igaragara nk'ahocururizamwo inyanya, imineke, avoka, harimo abantu benshi batandukanye, bivuze ko hari ahantu hari ihahiro ry'abantu bose.

Ni ahantu hari abantu benshi basa nkaho ari mu iguriro ry'imyenda kugira ngo buri wese abashe kugura ibimukwiriye, agendeye uko angana, ubushobozi afite kandi abibonera ku gihe ntawubuteza nta bitera ingaruka.

Mu isoko hagurirwamo imyambaro, inkweto kugira ngo buri wese abone ibimunyuze kandi yifuza, ku mafaranga afite ntagutegwa muri byose.

Umumotari uhetse umudamu, uhetse umwana, ugaraga nkaho ari umugenzi, arim umuhanda agiye kumugeza aho yamubwiye kugira ngo urugendo rwe rwo rworoherwe.

Umuntu wicaye kuri moto, wambaye kasike, atwaye ubwoko bwa ajesa, afite baga mu izosi, bisa nk'aho arimo kugenda mu muhanda afite aho agiye.

Ndabona umunyonzi uririmo uragenda mu buryo butari ubwe arimo aragenda mu gahanda k'abanyamaguru ahetse ijerekani, hirya ye hari amazu ari mu ibara ry'umweru asa nk'aho ari inzu z'ubucuruzi ariko bigaragare ko uyu ari mu ikosa bitewe n'aho arimo aragendera.

Ndabona umumotari ari kumwe n'umugenzi ari mu muhanda atwaye nko muri za moto z'amashanyarazi bita imperesadi, zikorera mu mujyi wa kigali cyangwa no mu nkengero zawo ariko atari mu muhanda w'ibitakazi. Abandi bari hirya baraparitse we atwaye umugenzi biragaragara.